Iki cyumba kirimo umuntu uri gusuka inzoga amacupa menshi cyane y'inzoga zigiye zitandukanye ururabyo, tereviziyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi by'ibinyobwa.

Amatafari yubatse inzu zifite imiryango myinshi itandukanye, ku mpamvu runaka zo kuba hakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, amapoto n'amatsinga ni bimwe mu bidufasha kubona urumuri mu gihe cy'umwijima, amatsinga ni bimwe mu bishobora gutwara umuriro udufasha kubona umucyo mu gihe cy'umwijima.

Ahantu hahurira abantu benshi bagiye guhaha ibintu bigiye bitandukanye birimo nk'ibiribwa, ibinyobwa bishobora gutunga imibiri hazwi nko muri botike, hasangwa abari gucuruza ndetse n'abagiye kugura.

Butike ni ahantu tujya kugura ibintu bitandukanye dusangamo umucuruzi ndetse n'ibicuruzwa nk'imyenda n'ibindi bitandukanye.

Ahazwi nko mu isoko cyangwa muri butike, ni ahantu hakorerwa imirimo y'ubucuruzi, ushobora kugera ugiye gushaka ibyo ukeneye byose. Ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Muri butike ni ahantu ushobora gusanga imifuka y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ahantu hahurira abantu benshi hatandukanye bafite gahunda yo kugura cyangwa guhaha ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Ni ahantu dusanga abacuruzi ndetse n'ibicuruzwa ukagura ibyo ushaka kugura.

Muri butike ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye , bagiye guhaha ibintu bigiye bitandukanye. Muri butike ni ahantutu haba hari abantu benshi ndetse n'ibyo bagiye guhaha amazu menshi agiye atandukanye amapoto amasinga n'ibindi.

Ahagurirwa ibiribwa, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi bitandukanye, hazwi nko muri butike cyangwa ku isoko, ku buryo buri umwe wese, ahantu umuntu wese yisanga, akisanzura, akagura ibyo ashaka byose.

Mu isoko ni ahantu hajya abantu benshi bagiye batandukanye, bafite buri wese ibyo agiye kureba, hari abagiye guhaha, cyangwa gucuruza, cyangwa kugura. Ni isoko rihuriramo abantu b'impande zigiye zitandukanye, ni ahantu buri wese yisanga, akagura ibyo ashaka, cyangwa abandi bacuruza.

Mu isoko ni ahantu hahuriye abantu benshi cyane batandukanye, abari guhaha abari gucuruza ndetse n'abandi bari guhiga ubuzima. Muri rusange nabari gucuruza imyenda n'abacuruza ama inite, ndetse n'abandi bari kugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.